Ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo iruhande gishushanyijeho akantu k'umuhondo inyuma hariho utuntu twumukara tumeze nk'imirasire y'izuba, hasi hariho ikiganza n'ikaramu bigaragara ko ari umuntu urimo gushushanya. Hino kandi hari amagambo avuga ngo tam life insurance bigaragara ko ari ubwishingizi bwubuzima.

Umuganga urimo kwamamaza ibijyanye n'ubwishingizi bwa Britam kubera ko akora mu buvuzi kugirango ashishikarize abantu kwihatira gukoresha ubwishingizi bwa Britam

Icyapa kigaragaza ko kampani ya radiyanti itanga ubwishingizi bw'inkoko, mu rwego rwo kugira ngo babungabunge ubuzima bw'inkoko, nawe rero ushobora kuza ugasaba ubwishingizi bw'inkoko kugira ngo byibura igihe inkoko zawe zagize ikibazo uzabashe kubona inyishyu.

Inyubako nziza y'igorofa ikorerwamo serivisi zitandukanye, imbere yayo hakaba hariho icyapa cyanditseho Sonarwa bigaragara ko hari serivisi runaka zitangirwa aha hantu, rero nawe ubaye ukenera serivisi zitangirwa aha ahantu waza ukahasura ubundi bakagufasha.

Umumama wishimye cyane wambaye akajire k'umutuku karimo uturongo dutambitse n'utumanuye; akaba ahagaze mu iduka ricuruza ibintu bitandukanye, bigaragara ko yishimye cyane kuko arimo guseka .

Abagabo babiri ndetse n'abagore babiri umwe yitwa Philippe umwe mu bakandida bahatanira kuyobora igihugu cy'u Rwanda akaba ari kubwira abaturage imigabo n'imigambi azakora mu gihe yaba abonye ububasha bwo kuyobora igihugu.

Abasore bane bahagaze imbere yimodoka nziza cyane, umwe yambaye imyenda yy' impuzankano undi yambaye imyenda isanzwe undi nawe yambaye ishati n' uturongo tw'umutuku hanyuma undi ayambaye i jile bigaragara ko ari umufundi hasi hashashe amapave kandi inyuma hari inyubako iri mu imodoka nziza yumutuku.

Abagabo babiri bahagaze imbere yimodoka nziza cyane, umwe akaba yambaye ishati ijya gusa nk'umweru, undi akaba yambaye ishati ijya gusa nk'umutuku kandi umwe akaba afite aka emvirope k'umutuku, bigaragara ko ashobora kuba avuye guhaha.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Abagabo babiri ndetse n'abagore babiri umwe yitwa Philippe umwe mu bakandida bahatanira kuyobora igihugu cy'u Rwanda akaba ari kubwira abaturage imigabo n'imigambi azakora mu gihe yaba abonye ububasha bwo kuyobora igihugu.

Mu masaha ya nijoro mbere yanjye ndahabona etaje y'ubucuruzi, aho hasi hari icyapa cyanditse ngo Simba Gishushu, ndabona na none icyapa kigaragaza y'uko nta parikingi ihari, hakaba hari n'intebe za parasitiki z'umuhondo ndetse n'izitukura n'utu meza twazo.

Igiceri cy'u Rwanda cyanditseho banke nasiyonari di Rwanda, bigaragara ko cyakozwe mu mwaka w' igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, kandi iki giceri gishushanyijeho igitoki bigaragara ko mu Rwanda haba insina nyinshi.

Isahani y'umweru iriho kake nyinshi, ubona ko ari keke nziza rwose zisa neza ziteye amabengeza; iruhande rw'isahani hari keke yaguye hasi kumeza, inyuma hakaba hari udushashi tubiri tw'umweru twavuye kuri keke.

Igikombe cy'umweru kirimo amata ndetse n'isahani iriho keke ndetse n'irindazi barumyeho hamwe n'ifoke ndetse n'ikiyiko, imbere yabyo hari umuntu uhagaze wambaye ipantaro y'umuhondo.

Igiceri cy'u Rwanda cyanditseho banke nasiyonari di Rwanda, bigaragara ko cyakozwe mu mwaka w' igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, kandi iki giceri gishushanyijeho igitoki bigaragara ko mu Rwanda haba insina nyinshi.

Amafaranga y'amadorari azinze mu mifungo akaba ari imifungo itandatu iyi mifungo uyibonye yaguhindurira ubuzima rwose kuko amadolari ni amafaranga menshi cyane kandi avunjwa amafaranga menshi uyashyize mumanyarwanda rero uwayaguha wahita ugira ubuzima bwiza.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Ibiti byiza bizana akayaga ndetse n'amahumbezi akazura abantu bicaramo bategereje imodoka ndetse n'imodoka y'ivaturi, umumotari ndetse n'indi modoka ibari imbere itwara imizigo.

Inyubako nziza cyane irimo abakobwa beza babiri batanga serivisi bigaragara ko ari ahantu heza hafite isuku kubera ko harasa neza cyane.

Ahantu bacuruza inzoga zitandukanye bigaragara ko ari akabari, imbere hari televiziyo nziza nini ya furati, hakaba harimo amacupa menshi atandukanye y'inzoga, ikindi kandi hakaba hari udutebe twiza turi ku murongo ndetse n'ameza meza y'umukara bimwe bita kontwari.

Ahantu hari ubwogero bwiza abenshi mu ndimi z'amahanga bita pisine, iyo umuntu avuye koga araza akaryama kuri ibi bitanda, ubundi akaruhuka bityo akota n'akazuba, maze akarushaho kunezerwa. Iruhande rwaho hari amagambo agaragaza ukuntu hano hitwa.

Icyumba cyiza cyane giteguye neza, ubona ko kirimo intebe nziza z'umukara, zikunda kwicarwaho n'abayobozi, hakaba harimo ameza meza ateretseho uducupa tw'amazi, hejuru hakaba hari amatara meza arimo kwaka, bigaragara ko hagiye kubera inama ikomeye.

Inyubako nziza y'igorofa ikorerwamo serivisi zitandukanye, imbere yayo hakaba hariho icyapa cyanditseho Sonarwa bigaragara ko hari serivisi runaka zitangirwa aha hantu, rero nawe ubaye ukenera serivisi zitangirwa aha ahantu waza ukahasura ubundi bakagufasha.

Ndabona ibicu by'umweru ndabona ahandi higanjemo ibara ry'ubururu bw'ikirere ndabona inkuta zubakishijwe amatafari ahiye ndabona ibiti binyuze muri izo nkuta ndabona imfungwa cyangwa se abagororwa nta misatsi bafite bambaye inkweto z'umuhondo ubururu n'umukara ndabona bafite ibikoresho by'ubuhinzi n'umusaruro ukomoka ku buhinzi nk'ibihaza ndabona bafite amasuka, ndabona iruhande rwabo hari icyobo.

Ikirango cya Banke ya Equity, cyamamaza kikaba kiriho imodoka nziza iri mu mabara ya move, ndetse iruhande rwayo hakaba hahagaze umukobwa mwiza, wambaye udukweto twiza duhagaze, agapantaro k'umweru, agakote keza, hejuru handitseho darayivu yuwa dirimu kare. Bigaragara ko ari impano batanga.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Ikirango cya banki ya kigali ubona kiriho abasore n'inkumi bishimye bisa naho rwose hari ahantu bakuye amafaranga, rero nawe ushobora kugana iyi banki ya kigali bityo bakaguhereza amafaranga, cyangwa se bakakuguriza nawe ukabasha kunezerwa.

Abamama bahagaze bambaye imipira isa, bakaba bambaye n'ibitenge, inyuma yabo hakaba hari umumama wicaye uri kuvugira kuri terefone, hakurya hakaba hari n'undi mumama uhagaze bigaragara ko ari ahantu hakorerwa ibintu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibyo kurya.

Abantu barimo guhaha ibintu bitandukanye ubona ko ari isoko ry'imyenda itandukanye hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, rero nawe ushobora kuza muri iri soko ukihahira ibintu byinshi bitandukanye wifuza.

Abamama barimo gucuruza inyanya, intoryi, insenda, ibitunguru ndetse n'ibindi bigaragara ko ari mu isoko. Nawe rero waza ukihahira inyanya, intoryi, insenda cyangwa se ibindi, mu rwego rwo kugirango ugire imirire myiza.

Abamama bari mu isoko ry'imyenda bigaragara ko barimo kugura imyenda ijyanye n'abamama, nawe rero ushobora kuhanyarukira ukaza ukagura ibintu bitandukanye, cyane cyane ko higanjemo ibitenge byiza cyane ndetse n'amasakoshi.

Ahantu hasa nk'isoko ubona ko harimo abantu benshi batandukanye, hakaba harimo umukobwa wambaye agakanzu k'umutuku n'uturongo tumanutse n'agashakoshi gatoya n'umupira w'umweru urimo n'utubara tw'umukara, akaba arimo yisohokera ndetse n'umugabo uri iruhande rwe wambaye agashati karimo umweru n'umukara ndetse n'undi mupapa uri imbere bisa nkaho ari umucuruzi wicaye wambaye agapira k'ubururu.

Akazu ka emutiyeni bigaragara ko gatangirwamo serivisi zijyanye no kubitsa no kubikura hakaba hari abapapa babiri bahagaze bari kwaka serivisi ndetse n'abama bahagaze iruhande rwaho babiri n'undi uri hirya wambaye agashati k'umutuku ndetse n'umuntu uri imbere mu kazu urimo gutanga serivisi za emutiyeni.

Akarango ka emutiyeni emutiyeni kanditseho imibare umuntu ashobora kwifashisha yishyura umucuruzi igihe aguze imyenda, hano hari imyenda myinshi itandukanye y'amapantaro yab'abagabo nawe ushobora kuza ukigurira ipantaro ubundi ukishyura ukoresheje terefone.

Ikirango cya MTN cyanditseho kode y'umucuruzi, bishatse kuvuga ko uje guhahira muri iri duka, ushobora kuba wakwishyura icyo uguze ukoresheje terefone bitagusabye gutanga amafaranga y'inoti.

Akazu ka emutiyene abenshi bita kiyosike akaba ari akazu gakorerwamo serivisi zijyanye no kubitsa no kubikuza ndetse no gutanga mayinite, hakaba hicayemo abantu batatu barimo gutanga serivisi zirimo kubitsa no kubikuza ndetse no gutanga amayinite, inyuma yaho hakaba hari abantu batatu baje kwaka serivisi.

Umuntu ufite telefone mu ntoki ze, akaba ayifatishije ibiganza bye byombi, mu rwego rwo kugira ngo itagwa, hasi hanyuma akaba arimo gukanda imibare kugira ngo asabe serivisi runaka, hanyuma bimworohere kubona icyo yifuza.

Abantu bicaye bambaye idarapo ry'u Rwanda hakaba harimo abagabo n'abagore, bakaba bafashe ku meza ndetse bafite n'amakayi imbere yabo yo kwandikamo.

Icyapa cyamamaza kiriho amagambo atandukanye, kandi hasi hariho abantu benshi; bigaragara ko ari abasitari bazitabira igitaramo.

Aha ndahabona ibintu bigiye bitandukanye aho ndimo kubona abantu bagiye batandukanye, imodoka ndetse ndikubona moto zigiye zitandukanye, kandi nkaba ndimo ndabona na rifani zigiye zitandukanye, ndetse kandi nkaba ndimo kuhabona n'umuhanda wa kaburimbo.

Imodoka nziza z'amakamyo zifashishwa mu gutwara imizigo cyangwa se ibicuruzwa igihe umukiriya abiguze. Izi ni imodoka nziza rwose ubona zifite amarange meza y'umweru kandi zifite amakontineri meza ubona ari mu mabara y'umukara, umweru ndetse n'umuhondo, rwose urabona ko ari imodoka nziza zisa neza.

Ubwogero bwiza cyane ubona ko ari ubwogero bwa kijyambere bugezweho, abenshi bita nka douche mu ndimi z'amahanga, munsi mu nguni harimo ibase nziza y'ubururu, aho ushobora kujya muri ubu bwogero, hanyuma washaka gukoresha ibase ugakoresha ibase y'ubururu iri hano muri ubu bwogero.

Igipangu cyiza cyubatse neza cyubakishije amatafari ya ruriba kandi hasi mu mbuga hashashe amapave mu nguni y'igipangu hari indabyo nziza cyane, rero aha hantu rwose nawe uhatembereye wakishima cyane kuko harasa neza, hejuru ikirere cyaho kirasa neza rwose bigaragara ko ari ikirere kirimo umucyo.

Inzu nziza yubatse neza bigaragara ko ari etage ikaba ifite igipangu cyiza cyubakishije amatafari ahiye, imbere yinzu hakaba hari indobo y'ubururu, hino mu mbuga hakaba hashashemo amapave rwose abona ko ari ahantu hasa neza hasukuye.

Umu mama uhagaze ahantu heza cyane bigaragara ko yishimye bitewe n'ukuntu ari ahantu hasa neza kandi hasukuye, hakaba harimo ameza meza afite hejuru y'umukara hasi h'umweru ,inyuma hakaba harimo utubati twiza bisa nk'aho ari mu mugikoni.

Inyubako nziza rwose igeretse rimwe ikodeshwa igihumbi magana arindwi y'idolari buri kwezi ikaba ari inyubako ifite ibyumba bitanu byo kuraramo, ndetse n'ubwogero butanu, rero ni inzu nziza cyane ushobora kuza ugakodesha hanyuma ukabaho neza, iherereye i Kigali kibagabaga.

Inzu nziza yo mu bwoko bwa kadasiteri irakodeshwa, isa neza, ifite amabara meza ubona ko yubatse neza kandi isakaye neza, iruhande rwayo hari indi nyubako iri kubakwa ubona ko ari igorofa, rero ni inzu nziza cyane rwose waza ukayikodesha kuko irakodeshwa. Ikodeshwa ibihumbi magana atandatu, ifite ibyumba bine ,ikaba ifite ubwogero butatu, ikaba iherereye mu Kagarama.

Umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro bigaragara ko yatebeje, akaba arambuye amaboko bisa naho aho hari ijambo arimo gutambutsa cyangwa se arimo kwamamaza.

Isoko ryiza rigezweho abenshi bazi nka supamaketi mu ndimi z'amahanga, urabona ko hari isoko rikeye ririmo ibintu byinshi bitandukanye harimo abaguzi benshi, rero nawe ushobora kuza muri iri soko ukihahira ukabona ibintu byinshi byiza biba bihari wateganyirijwe bityo ugahaha neza udahenzwe.

Ahantu hateretse ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ubucuruzi bigaragaza ko bacuruza ibintu byinshi bitandukanye, yaba ibishyimbo, amajeri, isombe, ibirungo byinshi bitandukanye, rero nawe waza ukahahahira mu rwego rwo kugira ngo urye indyo yuzuye.

Ikinyabiziga gishinzwe gukora imihanda kiri mu busitani ndetse inyuma y'ubwo busitani hari inganda izo nganda zisize amabara y'umweru n'urundi rusize irangi ry'ibara ry'icyatsi ryerurutse izo nganda ziri ahitaruye.

Imodoka y'umutuku ifite ibirahuri by'umukara itwawe n'umutwazi wambaye imyenda ya kaki n'isaha y'umukara kukuboko ahagaritswe n'umupolisi wambaye imyenda y'akazi hari ibiti bitandukanye indabyo, ndetse n'inyubako nyinshi.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bigaragara nk'aho bakurikiye umupira murwego rwo kugirango ngo binezeze kandi bashyigikire impano. Iruhande rw'abo kandi hari igiti cyiza gisa nk'aho ari icy'umwembe, hakaba hari n'utwapa twiza twamamaza twanditseho ejo heza.

Abamama bicaye ku ntebe y'urubaho bategereje serivisi zo kwa muganga, bakaba bafite mituweri mu ntoki bigaragara ko hari serivisi zijyanye n'ubuvuzi bategereje mu rwego rwo kugira ngo birinde indwara kandi bagire ubuzima buzira umuze.

Ikarita y'umuhondo ishushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda kandi yanditseho amagambo avuga ngo repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'ubuzima umujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro bikaba bishatse kugaragaza ko ari ubwisungane mu kwivuza bukoreshwa mu karere ka Kicukiro.

Isoko ryiza ririmo ibyo kunywa byiza byinshi, byo mu rwego rw'ibinyabisukari, aho ushobora kuza ukagura icyo kunywa kirimo isukari, akaba ari isoko ryitwa supamaketi mu ndimi z'amahanga.

Umuntu wambaye agapira k'ubururu, karimo uturongo tw'umweru ndetse n'ipantaro y'ikigina irimo utuntu tw'umweru, akaba ahagaze mu isoko abenshi bita superimarishe, bigaragara ko hari ibintu bitandukanye arimo guhaha.

Amafaranga y'amanyamahanga yo mu gihugu cy'ubuhinde yo muri banki rizavu y'ubuhinde, ikaba ari amafaranga magana cyenda afite ishusho ya mahati magandi.

Umugabo uhagaze mu isoko abenshi bita supamaketi mu ndimi z'amahanga akaba yambaye ikote ryiza cyane rikomera agapira keza kajezi ndetse n'ingofero nziza y'umukara ariko akaba arimo guhekenya amenyo kandi akaba afashe agakarito k'umukara bigaragara ko ari igicuruzwa agiye kugura .

Ububiko bwi'ibyokunywa bukubiyemo imitobe umuhondo, umutuku n'amata bubitse mu buryo bwo kugirango bukonjeshwe bukunze kwifashishwa n'abacuruzi kugira ibyo kunywa bidapfa kandi babishyikirize abaguzi bimeze neza.